Aba ni abana bambaye agapira kari mu ibara ry'umuhondo bazamuye amaboko, inyuma yabo hari abagore n'abagabo harimo abazungu, muri aba bagore n'abagabo harimo abambaye udupira turi mu ibara ry'umweru n'ingofero ziri mu ibara ry'umukara.

Uyu ni umwana w'umunyeshuri wambaye agakabutura n'agashati, agakabutura karimo ibara ry'umutuku, agashati karimo udukararokaro turimo umutuku n'umweru, ari kuri kandagira ukarabe ifite akabase kari mu icunga rihishije, gafite ibara ry'icunga rihishije.

Uyu ni umugore kuvomesha wambaye agapira k'icyatsi, ingofero y'umuhondo, hari n'abana bafite amabuni ari mu ibara ry'umuhondo, n'abamama bateruye y'abana.

Iki ni ikirangantego kiri mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda aho ikinyarwanda handitse wihogora mu cyongereza handitse sayikorojyikoseta yuwameto werebeyingi foru gudu rayifu ,bisobanuye ko kuba uri muzima mu mutwe bitanga ubuzima bwiza.

Urwandiko ruri mu rurimo rw'icyongereza

Uyu ni umugabo ufite akadodo mu ntoki mu maboko yombi afite na esuime mu kuboko kw'iburyo iri mu ibara ry'umweru hejuru nta kintu yambaye afite imibiri yombi higanjemo igikara.

Uyu ni umugabo w'imibiri yombi, ufite amenyo ari mu ibara ry'umweru, afite ubwanwa munsi y'akananwa no hejuru, afite akantu gafitemo ibara ry'icyatsi ryerurutse ari gukoza mu kanwa.

Uyu ni umwana w'umukobwa wicaye mu ntebe iri mo ibara ry'ubururu, yambaye agakanzu kari mu ibara ry'icyatsi kererutse gafite n'utudomo turirimo ibara ry'umweru, yambariyemo agapira mo imbere kari mu ibara ry'umweru, afite uburoso buri mu ibara rya move, yambaye n'akantu ko mu mutwe.

Uyu ni umugabo uri guseka ufite ubwanwa n'umusatsi biri mu ibara ry'umukara yambaye agapira ko imbere kari mu ibara rya shokora yerurutse yarengejeho agashati kari mu ibara ry'ikoboyi ari guseka.

Uyu ni umukobwa n'umuhungu, umuhungu arasutaraye, yambaye ipantaro n'agapira biri mu ibara ry'umweru n'inkweto z'umukara n'umukobwa yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara n'agapira kari mu ibara ry'ubururu, arasutamye hepfo hari tapi iri mu ibara ry'icyatsi.

Uyu ni umugore ufite ibisuko biri mu ibara ry'umukara akaba afite agafugisho kari mu ibara ry'umukara yazengurukijeho ku mutwe. Afite n'akandi gafungisho karimo ibara ry'icunga rihishije ryerurutse azamuye amaboko, yafatanyije amaboko.

Uyu ni umusore ufitemo imibiri yombi higanjemo igikara, afite icupa ry'amazi ari kunywa, yambaye agapira gafitemo ibara ry'ubururu bwijimye, yambaye n'umukufi mu ijosi.